Ni abagabo, bambaye amajire ari mu ibara ry'umutuku, inyuma yabo hakaba hari umutaka, wanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, iruhande rwabo hakaba hari abandi bantu benshi bahagaze.

Ni abantu b'urubyiruko bari kure bari kureba muri telefoni, bakaba bafashe udupapuro turi mu ibara ry'ubururu, bakaba barimo baradusoma ndetse bakaba barimo guhuza amakuru y'ibyo bari gusoma ku dupapuro n'ibyo bari kureba muri telefoni.

Ni abantu bahagaze, inyuma yabo hakaba hari abandi bicaye, hakaba harimo abambaye imyenda y'ubururu n'umweru ndetse hahagaze n'umupolisi, bakaba barimo kuganira ku buryo bw'imibereho myiza.

Ni abagabo bambaye imyenda iri mu bara y'umuhondo n'umukara, bakaba bafashe impamyabushobozi, inyuma yaho hakaba hari ibyapa byamamaraza, ibi bikaba bibafasha mu bucuruzi bw'ibindi bigiye gutandukanye birimo itumanaho.

Ni umugore uhagaze imbere y'inzu ikoreshwa n'abantu bacuruza itumanaho, muri iyo nzu hakaba hahagazemo umugabo urimo gucuruza iryo tumanaho, ibi bikaba bifasha abaturage kuba babona uburyo bagura itumanaho mu buryo buboroheye.

Ni umugabo uhagaze, akaba afashe indangururamajwi, iruhande rwe hakaba hari undi mugabo wicaye, inyuma yabo hakaba hari ibyapa byifashishwa mu kwamamaza, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwiteza imbere mu buzima busanzwe.

Ni ibigori byumye bikaba bimanitse mu buhunikiro, ibi bikaba bifasha abahinzi kuba bahunika umusaruro wabo ndetse kuba bakwirinda ko wakwangirika nyuma yo kuwusarura.

Ni inyubako, imbere yazo hakaba hari imodoka ziparitse. Hino yazo hakaba hari abana bahagaze. Izi nyubako zikaba zifashishwa n'abantu bibumbiye hamwe kugira ngo biteze imbere.

Ni abagabo n'abagore bicaye mu ihema. Hakaba harimo abambaye imyenda isa n'ubururu ndetse n'umweru. Bakaba barimo kuganira ku buryo bwo guteza imbere bakorera hamwe mu matsinda.

Ni inyubako, ikaba iriho abagore n'umugabo. Hakaba haparitse i moto. Iyi nyubako ikaba yifashishwa n'abaturage mu kwizigamira. Ibi bikaba bibafasha mu kwirinda gusesagura umutungo wabo umuha amafaranga.

Ni umugore ufashe amakara mu ntoki, imbere ye hakaba hateretse undi mufuka munini urimo amakara, hirya ye hariho ihema rimukingirije.

Ni abagabo bakaba bari mu cyumba kirimo imashini, zigiye zitandukanye zifashishwa mu bikorwa bigiye bitandukanye birimo ububaji ndetse n'ibindi. Zikaba zibafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Ni abacuruzi bibumbiye mu mashyirahamwe, bakaba barimo gucuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, bakaba barimo gucuruza amavuta ndetse n'imbuto. Ibi ngibi bikaba bibafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni abantu bicaye bakaba bambaye imyenda iva hejuru iri mu mabara y'umukara, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwiteza imbere bakoreye hamwe mu matsinda.

Ni umuntu wicaye akaba afashe ibiryo mu kiganza cye, imbere ye hakaba hari ibinyobwa by'ubwoko butandukanye, ibi ngibi bikaba bimufasha mu kuba yagira ubuzima bwiza ndetse no kwirinda ko yakwicwa n'inzara.

Ni umugabo uhagaze ahantu hakirwa abantu baje kunywa ibinyobwa mu kabari, ibi bikaba bifasha nyirikabari kubona amafaranga y'inyungu ndetse n'abaje bamugana bagashira icyayaka.

Ni amacupa y'ubwoko bugiye butandukanyekanye. Akaba arimo ibinyobwa akaba ateretse ku meza yashyigwaho abantu bagiye bagana akabari ibi bikaba bifasha abantu mu kubonana ibinyobwa banywa ndetse bigatanga amafaranga ku mucuruzi.

Ni icupa ry'inzoga riteretse ku meza, hirya y'aho hariho andi meza ateretseho iradiyo ndetse hari n'umugozi wa telefone ucometse.

Ni imbuga ishashemo amabuye, ikaba ikikijwe n'amazu yifashishwa n'abacuruzi mu gucuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye, hakaba hari ibiti ndetse n'ibigega bifata amazi.

Ni inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo imyenda, imbere yayo hakaba hari imbuga ikoze mu mabuye, ibi bikaba bifasha abacuruzi kubona aho bacururiza hanoze.

Ni umugore ufashe telefoni, akaba ahagaze mu cyumba kirimo ibicuruzwa bitandukanye birimo: amavuta, isabune ndetse n'ibindi, ibi bikaba bimufasha kubona amafaranga akomoka mu bucuruzi.

Ni udukoresho twifashishwa mu gutwara amagi bayakura ahantu hamwe bayajyana ahandi ndetse bikaba bifashishwa mu kuyabika, hakaba harimo uturimo ubusi ndetse hakaba hariho n'uturimo amagi, hakaba hariho amagi y'ama yangiritse yamenetse.

Ni icyumba cyifashishwa n'abacuruzi mu gucuruza ibikoresho by'ubwoko bugiye bitandukanye. Ibi bikaba bifasha umucuruzi kubona amafaranga amufasha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ni umugabo urimo guterura amacupa arimo umwuka wifashishwa mu gucana, akaba arimo kuyakura ahantu hamwe ayajyana ahandi, uyu mwuka ukaba utangiriza ikirere.

Ni icyumba cyifashishwa n'abacuruzi mu gucuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo amafu, umuceri, ibitoki, imbabura, ndetse n'ibindi bicuruzwa bikenerwa n'abaguzi umunsi ku munsi.

ni icyumba kikaba kirimo ibicuruzwa by'ubwoko bugize butandukanye byo kunywa birimo amaji, amazi, biswi ndetse n'ibindi, ibi bikaba bifasha abaguzi mu kubona ibyo kurya ku buryo buboroheye.

Ni abantu bicaye mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibiribwa ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, birimo amavuta, imishyimbo, imiceri, isukari ndetse n'indi, bikaba bifasha, kubona amafaranga ndetse n'abaguzi bahaha muburyo buboroheye.

Ni icyumba gihari cy'urusengero, kikaba kirimo intebe ndetse kikaba cyifashishwa n'abantu baje bagana urusengero, mu gusenga ndetse no kwiyegereza Imana. Ibi bikaba bibafasha mu gusenga neza.

Ni abaturage bicaye mu nyubako, bakaba bambaye udupfukamunwa, hakaba harimo abahagaze, iyi nyubako ikaba ibafasha mu gusenga no kweyigereza Imana.

Ni abagabo n'abagore bahagaze mu mazi, imbere yabo hakaba hari umukozi w'Imana urimo kubatiza. Ibi bikaba bifasha abaturage kubaba bakwiyegereza Imana, mu buryo bwo gusenga.

Ni abantu bicaye mu cyumba bakaba imbere yabo hahagaze umuntu urimo kubigisha ndetse inyuma yabo hakaba hari abandi bicaye imbere y'ameza bari buze n'abo kwigisha.

Ni abagabo n'abagore, bakaba bahagaze imbere y'urusengero, urusengero rukaba rukikijwe n'ibiti, rukaba rubafasha mu kwiyegereza Imana no gusenga.

Ni inyubako ndende y'urusengero, imbere yaho hakaba hari imbuganga ngari, uru rusengero rukaba rwifashishwa n'abakirisitu mu gusenga ndetse no kweyegereza Imana.

Ni abaturage bahagaze mu mbuga y'amabuye, inyuma yabo hakaba hari inyubako y'urusengero, iruhande rwabo hakaba hari amashyamba arimo ibyatsi bitoshye, iyi nyubako ikaba ibafasha mu kuba basenga no kweyegereza Imana.

Ni abantu bari mu rusengero. Bakaba barimo kuririmba abandi barimo gukoma amashyi. Ibi bikaba bibafasha mu kwiyegeranya n'Imana ndetse no kuba basabana.

Ni abagabo bahagaze mu mbuga, inyuma yabo hakaba hari inyubako ndende yifashishwa mu gusenga. Ibi bikaba bibafasha mu kweyegereza Imana n'uburyo bwo gusenga.

Ni umugabo n'umugore bapfukamye, bakaba bafatanye, iruhande rwabo hakaba hari abagabo n'abagore, barimo kubareba, ibi bakaba barimo kubikora nko gusenga.

Ni icyumba. Kikaba kirimo igitanda gishashe neza, ku gikuta hakaba hari amashusho, ibi byumba bikaba byifashishwa n'abantu baje babigana mu kuryama no kuruhuka. Ndetse bigatanga amafaranga kuri ba nyirabyo.

Ni imbuga irimo ibiti, ndetse ikaba ikikijwe n'amazu yakira abantu baje gucumbikamo, ibi bikaba bifasha abo bantu kubona ahantu baryama, ndetse bikinjiriza na ba nyir'amazu amafaranga.

Ni intebe ziri mu mabara y'umutuku, zikaba zikikije ameza ariho ibitambaro by'umwe, izi ntebe zikaba zifashishwa n'abantu baje bagana iyi nyubako yakira abantu baje kuyakira.

Ni intebe zitondetse ku muronko, imbere yazo hakaba hari ameza ariho ibirahuri birimo ibinyobwa, izi ntebe zikaba zifashishwa n'abaje bagana iyi nyubako yakira abantu mu buryo busanzwe, ibi bikaba bifasha kubona amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni ameza akaba ariho ibiribwa n'ibinyobwa by'ubwoko butandukanye. Ibi bikaba byifashishwa n'abantu baje bagana inyubako. Mu gihe cyo kurya ndetse bikaba bitanga n'amafaranga ku babicuruza.

Ni icyumba kikaba kirimo igitanda gishashe neza n'amashuka y'umweru ndetse n'umukara, iruhande rwayo hakaba hari ameza ateretseho ibikoresho, ku gikuta hakaba hari igikoresho k'ikoranabuhanga kifashishwa mu gusakaza amashusho.

Ni icyumba kikaba kirimo igitanda gisashe neza mu mabara asa n'umweru ndetse n'umuhondo, iruhande rwacyo hakaba hari intebe zikozwe mu ibara ry'umweru. Ibi bikaba bifasha abaje muri iyi nyubako kubona ahantu heza baryama.

Ni abacuruzi, bakaba bafite ibicuruzwa bigiye bitandukanye, birimo ibijumba ndetse n'ibindi, hakaba harimo abiteye imitakaka, ibi bikaba bibafasha mu kubona amafaranga abafasha, mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni abantu barimo gucuruza ibicuruzwa bitandukanye, birimo imineke ibigori, iruhande rwabo hakaba hari umugabo, ufashe igare ririho umufuka, inyuma yabo hakaba hari amazu yifashishwa n'abacuruzi, bacuruza ibicuruzwa bitandukanye.

Ni amagare aparitse iruhande rw'umuhanda, bakaba bikoreye ibitoki biri kujyanwa ku isoko, iruhande rwayo hakaba hari amashamba, ibi bitoki bikaba bigiye gucuruzwa ku baturage babikeneye.

Ni umugore wikoreye amatunda y'ubwoko butandukanye, iruhande rwe hakaba hari imodoka zifashishwa mu gutwara abantu bava ahantu hamwe bajya ahandi, akaba ari mu bucuruzi ibi bikaba bimufasha mu kubona amafaranga amufasha kubaho mu buzima bwa buri munsi.

Ni isoko, rikaba ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye: nk'inyanya, ibitunguru, amashaza, ibitoki ndetse n'ibindi, bikaba arimo abantu barimo kubihaha, ibi bikaba bifasha abaturage kubona ibyo kurya ndetse bigatanga n'amafaranga ku bacuruzi.

Ni amagare n'imodoka ziparitse, iruhande rwayo hakaba hari amahema asakaye, akaba atwikiriye ibicuruzwa bitandukanye birimo imyenda ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu nzu, ibi bikaba bifasha abacuruzi n'abaguzi kubona ibicuruzwa mu buryo buboroheye.

Ni ibitunguru birambitse kuri shitingi ishashe ku mbuga, ibi bikaba byifashishwa mu buryo bugiye butandukanye, burimo kubiteka ndetse no kubikoramo imiti igiye itandukanye.

Ni umugore uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, akaba ageze mu mayira abiri, imbere ye hakaba ari amazu menshi akoreshwa mu buryo bw'ubucuruzi, iruhande rwe hakaba hari ishyamba, ririho icyapa kiri mu ibara ry'ubururu.

Ni umugore, akaba afashe ibicuruzwa bitandukanye birimo tungurusumu, inyuma ye hakaba hari inzindi nyubako zihagazeho abantu, ibi bikaba bifasha mu gucuruza ndetse no kubona amafaranga akomoka ku bucuruzi.

Ni abantu bicaye ahantu hamwe bakaba imbere yabo hateretse ameza ariho ibinyobwa bitandukanye, bakaba bari mu busabane ndetse no kwiyakira.

Ni inyubako ndende igeretse, imbere ayo hakaba hari imbuga ikoze mu mabuye, iruhande rwayo hakaba hari ibimera bitoshye, iyi nyubako ikaba yifashishwa mu kwakira abantu baje bayigana bashaka ibyo kurya.

Ni intebe zitondetse neza zikaba zifashishwa n'abantu baje bagana inzu zakira abantu baje gushaka ibyo kurya. Ibi bikaba bifasha ba nyiri amazu kuba babona amafaranga ndetse n'abantu baje babagana bakakirirwa ahantu hameze neza.

Ni umuhanda wa kaburimbo, ukaba urimo kugendamo ikinyabiziga cya moto, iruhande rwabo hakaba hari amazu ndetse n'ibiti bitoshe, ibi bikaba bifasha abagenzi mu kugenda mu buryo buboroheye bava ahantu hamwe bajya ahandi.

Ni umugabo uri kugenda kuri moto, akaba ageze aho abanyamaguru bambukira, akaba asabwa kureba ko nta munyamaguru urukwambuka mbere yo gukomeza. Ibi bikaba bidufasha kuba twakwirinda impanuka zo mu muhanda.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo akaba ukikijwe n'inyubako z'ubucuruzi, hakaba harimo imodoka irimo kugenda, ibi bikaba bifasha abantu mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi ndetse biroroshya n'ubucuruzi.

Ni umuhanda wa kaburimbo, ukaba urimo kugendamo ibinyabiziga bitandukanye birimo moto ndetse n'imodoka, iruhande rwayo hakaba hari amazu y'ubucuruzi agiye atandukanye, ibi bikaba bifasha abantu kubona uburyo bava ahantu hamwe bajya ahandi.

Ni umuhanda wa kaburimbo, ukaba urimo kunyarwamana n'inyabiziga bya moto, iruhande rwabo hakaba hari amazu, iyi mihanda ikaba ifasha abaturage mu gukora ingendo, bava ahantu hamwe, bajya ahandi.

Iyi moto, ikaba iparitse mu cyumba, ikaba iri mu barara risa n'umweru ndetse n'umukara, hakaba hari mu kiganza cy'umuntu ufashe, iruhande rwabo hakaba hari ibyo ibiti biteye muri jaride, ibi bikaba bifasha abantu mu kuba ahantu hamwe bajya ahandi ku buryo bworoshye.

Ni ikinyabiziga cya moto kikaba kiriho abantu babiri kikaba kirimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo umuhanda wa kaburimbo ukaba ukikijwe n'ibiti birebire, ibingibi bikaba bibafasha kubona umwuka mwiza bahumeka.

Ni amagare akaba ahagaze mu muhanda munini wa kaburimbo, iruhande rwawo hakaba hari inyubako zikorerwamo ubucuruzi. Aya magare akabafasha abantu mu korohereza kugenda bava bajya ahandi.

Ni umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwabo hakaba hari amazu. Ukaba urimo kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto, ibi bikaba bifasha abagenzi mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi ku buryo bworoshye.

Ni abantu batwaye moto mu muhanda wa kaburimbo, bakaba iruhande rwabo hari amazu, mbere yayo haparitseho imodoka. Ibi bikaba bibafasha mu kubava ahantu hamwe bajya ahandi mu buryo bworoheye.

Umuhanda w'amabuye, ukaba urimo kunyurwamo n'ikinyabiziga cya moto, iruhande rw'aho hakaba hari ushinzwe umutekano w'umupolisi, uwo muhanda ukaba ukikijwe n'amazi akorerwamo ubucuruzi, ibi bikaba bifasha abagenzi mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi mu buryo bworoshye.

Ni umuntu akaba arimo gusunika igare ririho udufuka n'amakarito, iruhande rwe hakaba hari amashyamba bikikije umuhanda, ibi bikaba bimufasha kuba yajya ahantu hamwe mu buryo bworoshye.